Umugore mwiza cyane afite agaseke gasa neza, yambaye n'amasaro meza, yambaye n'ikanzu nziza, yambaye n'agatambaro kagaragara neza cyane, arasa nk'umunyarwandakazi wagirira akamaro igihugu n'umuryango we.

Urusengero rumeze neza abakirisitu bari kugenda bagiye gusenga, bari kunyuranyuranamo haparitse imodoka imbere y'urusengero, ariko abantu ntabwo bari binjira kubera urusengero rugifunze.

Imodoka ya bisi ni imodoka nziza cyane ,ifasha abaturage kugenda mu mihanda itandukanye ,bagiye gushakisha ibyabagirira akamaro mu mibereho yabo, iruhande rwabo hari umugabo utwaye akagare.

Amagare atatu ari mu kibuga ari kugurishwa, hakurya hariho abagabo babiri, umwe ari kugenda, undi ahagaze ku kazu kari iruhande rw'amapoto.

Ikipe y'abakinnyi bakina umupira w'amaguru bari gukina bahatana kugira ngo bagaragaze intsinzi, bari kumwe n'abafana, abafana bari kogeza kubera intsinzi bagaragaje mu gihugu n'aho bagenda hose, kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'abo babana nabo.